Akabari kacuruzwamo ibinyobwa bitandukanye, aho abantu baza bakidagadura bakanywera ibyo bakeneye, bakaharira n'ibyo bashaka maze bakahasohokera, bagasiga amafaranga maze ba nyirikabare bakunguka bakabona amafaranga bo gusubira kurangura kandi nabo bakagura ibintu bitandukanye mu buzima bwabo bakeneye, bityo bigatuma n'abaje kwidagadura bagira ubuzima bwiza kandi bakahakura ibyishimo.

Akabari gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, aho gacururizwamo inzoga zitandukanye, aho gacururizwamo ibinyobwa bifunze, aribyo ubwoko bw'inzoga za rufuro, n'ubwoko bw'inzoga za rikeri, aho abantu bakagana baje kuguramo ibyo kunywa. Bityo ba nyiri akabari bakabona amafaranga y'inyungu kandi bakabona n'amafaranga yo kubika kuri banki bizigama.

Inyubako ikorerwamo akabari gacuruzwamo ibinyobwa bitandukanye, n'ibyo kurya bitandukanye, abantu bakeneye aho abantu bajya kunywa bagashira icyaka kandi bakishyura amafaranga yabo, bagasusururuka, bakaganira, aho inyubako igizwe, ikozwe neza, ikandi ikaba ifite uruzitiro ruyikikije, aho ba nyir'akabare babona inyungu yo kubafasha mu buzima bwabo.

Akabari gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye, aho gacururizwamo ibinyobwa, aho gacuruzwamo ibinyobwa, inzoga za rufuro zipfundikiyeho, harimo n'inzoga za rikel, zabugenewe, aho gacururizwamo, aho inzoga zitandukanye, abantu bakaza kuzigura bagasiga amafaranga, maze abagacuruza bakunguka, bakabona amafaranga yo kwifashishamo.

Inyubako icururizwamo ibinyobwa bitandukanye ikaba irimo intebe, abakiriya bicaraho, inyubako ifite ibinyobwa bitandukanye n'ibikoresho bitandukanye, isize irangi kandi irimo amakaro. Inyubako nziza cyane, irimo ibinyobwa bitandukanye bishimisha abakiriya bakanywa bishimye.

Inyubako iberamo ibirori bitandukanye, ifite ameza n’ibikoresho byo kumeza bitandukanye. Yakira abantu mu bijyanye no kurya. Inyubako irimo intebe, irimo ibikoresho byo kumeza bitandukanye: ibirahuri, amasahani n’amafoke yo kurisha.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byo gusiga amarangi, ibikoresho bitandukanye by'ubwubatsi, aho harimo amarangi ari mu ndobo, ubwo basiga inzu, amarangi ari mu ijerekani mu bivu mu bijerekani bwo basiga, inzu amarangi ari mu bikombe bitoya ibyo basiga n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi bitandukanye.

Amazu acururizwamo ibintu bitandukanye, aho ba nyirayo bayacururizamo ibintu bitandukanye bityo abaguzi na bo bakaza kugura biboroheye, kandi ba nyirayo bakarangura maze bakabona inyungu z'ibicuruzwa baba baranguye, bityo bikabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, bigatuma bagira ubuzima bwiza, bakemura ibibazo bahura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye aho inyubako zitandukanye ziri ku muhanda wa kaburimbo zicururizwamo ibintu bitandukanye, aho harimo igitoki harimo n'ibindi bicuruzwa abaturage bakeneye, aho inyubako zubatse neza zikoze isuku, zifite amakaro zikaba zifite aho gucururiza n'urubaraza rwo kwicaraho, maze zigacuruza ibintu bitandukanye, bakunguka bakabona amafaranga.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye by'ibiribwa. Ibitoki abaturage bakenera bagiye kurya, ibitunguru, intoryi , tungurusu, inyanya, amakara, ibirayi, biri mu mifuka aho abaguzi baza kugura bagatanga amafaranga maze umucuruzi akabona inyungu y'amafaranga, kandi agasubira kurangura n'abaturage bagahahira hafi biboroheye kandi neza.

Inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibikoresho bitandukanye， byaba imyenda n'ibikapu， abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi， ni byiza gucuruza kubera ko abantu baraza bagafata ibyo bakeneye， bagasiga amafaranga， maze ba nyiri nzu bacururizamo bakabona amafaranga yo kwifashisha， bagura ibindi bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho bacururizamo imyenda, aho bacururizamo amayinite maze bigatuma ba nyiri ugucuruza bunguka bakabona amafaranga, n'abaje kugura bakabona ibyo bagura bikabafasha mu buzima bwa buri munsi, bigatuma babaho mu buzima bwiza bishimiye, kubera ko baba babonye ibyo bakeneye, n'abari gucuruza bakabona amafaranga bafite.

Inyubako icuruzwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, aho icuruza mudasobwa, hakabamo tereviziyo, hakabamo imashini zifotora, hakabamo mikorofone, hakabamo ibindi bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bitandukanye, aho ifasha abaturage gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bworoshye.

Iduka ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho ricuruzwamo ibiryo: umuceri, kawunga, zarisa zo gushyira mu biryo, amavuta, umunyu, isabune, isukari n'ibindi bintu abaturage baba bakeneye bya buri munsi aho byinjiriza ba nyiraryo bakabona inyungu bagagura n'izo kubika bakayashira muri banki bityo bakabaho neza.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitadukanye. Umufuka w'isukari, umufuka w'umuceri n'ibindi bintu bitandukanye. imbere y'inyubako, hari intebe. Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye yubakishijwe amakaro.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye: imyenda, imipira yo kwifubika, imipira yo kwambara, inkweto z'abagabo, iza butu, ibikapu byo guheka, ibikapu by'abantu bose, n'ibikapu by'abamama, amashuka, ibitambaro n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye, byo abaturage bakeneye.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho icururizwamo ibintu byo kunywa n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, ahaparika imodoka, aho inzira abantu benshi baje kugura ibicuruzwa bitandukanye harimo n'ibyo kunywa maze bakahanywera bityo bagatanga amafaranga maze nyiri'ibicuruzwa akabona inyungu n'amafaranga bakwifashisha mu buzima bwawe.

Inyubako icururizwamo intebe zigezweho. Inyubako icururizwamo intebe zigezweho，intebe zarakozwe， ziragaragara， zitegereje kugurishwa，kugira ngo ziduhe amafaranga，adufasha gukora ibindi bintu bitandukanye， intebe ni nziza cyane.

Iduka ricururizwamo ibintu bintu bitandukanye aho riri ku muhanda, aho ricururizwamo ibintu bitandukanye byo kunywa n'ibindi bintu abaturage baba bakeneye, bityo bigateza imbere ba nyiraryo kandi bikabaha inyungu, bigatuma babaho neza kandi bagacuruza bakunguka, bakabona amafaranga yo kubatunga no kubika, bityo bikabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi babamo.

Inyubako zitandukanye， zicururizwamo ibintu bitandukanye，aho zigeretse hakaba hejuru， mu igorofa ryo hejuru，harimo indi myuga ikorerwamo， niho batunganyirizamo imisatsi，aho hasi hacururizwamo ibintu bitandukanye， harimo gaze， sima， n'ibindi bintu byinshi， aho haparitse imbere y’inzu，moto n'umumotari，batwara abagenzi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, nk'aho bacururizamo ibintu bitandukanye harimo mare, harimo n'imikeka, amatapi, y'abantu bashira munzu n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, aho abaguzi baza kugurira mu modoka bagasigira abacuruza amafaranga, maze bakayaguramo ibintu bakeneye, bagasubira no kurangura, andi bakayabitsa kuri banki.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, intebe za parasitike, ibikapu, amakuvureri, amashuka, ibikapu byo kubikamo imyenda, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, inyubako ikozwe mu birarahure, ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye, ikaba ari inyubako nini cyane

izi ni inyubako zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi. Ziri ku muhanda, zikaba zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho ba nyirazo bazikodesha abantu bazicururizamo, maze zikabaha amafaranga yo kwifashisha, mu bindi bintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, maze bagatera imbere bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Inyubako icururizwamo ibintu bitandukanye aho harimo amabasi, aho hacururizwamo amagi, ubukapu, imifuka, amata, imigati, amandazi amagi, amabase yo gukarabiramo n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye, aho abaturage baza kubigura bakishyura amafaranga, maze ba nyirabyo bakabona inyungu, ibafasha kubaho neza no gusubira kurangura ibindi bicuruzwa, kugira ngo babeho.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho icururizwamo ibintu bitandukanye ikaba yubatse neza , ifite umuryango munini ukinze, ifite igipangu ikaba; iri mu gipangu imeze neza isize amarangi kandi irembo ryayo rikaba; inyubako nziza nyirayo abona inyungu ziyiturukamo.

Ubucuruzi bw'imitako itandukanye, aho icururizwa mu nzu yabugenewe, aho abayikeneye baza kuyigura maze bakayambara, bityo bakiyongerera ubwiza kandi bakumva barishimye, maze n'abacuruza imitako bakabona amafaranga, bakunguka bagasubira kurangura, maze n'abakora iyi mitako na bo bakabona amafaranga yo kuguramo ibindi bintu bakeneye.

Iduka bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, aho riucururizwamo ibintu bitandukanye amarido yo kumanika mu nzu, amashuka yo kwitwikira abantu baryamye, imyenda n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, aho babicuruza mu nzu y'ubucuruzi, maze ba nyirabyo bakabigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha.........

Inyubako zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho ari inyubako zubatswe zifite amakaro, zikaba zubatswe ku muhanda kandi zikaba zicururizwagamo ibintu bitandukanye, aho abakiriya bajye kugura ibintu bitandukanye, aho amanite n'iminzani yo gupimuriraraho ibicuruzwa bitandukanye bajye kugurisha abakiriya, maze ba nyir'inzu bakunguka bakabona.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, bacururizamo ibintu abantu bakenera buri munsi maze bikaborohereza, amafaranga bakabona inyungu bituma babasha guteza imbere abahinzi, baba babajyaniye ibintu bitandukanye bakabigura bakabaha amafaranga, maze nabo bakabicuruza abandi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye aho hacururizwamo ibintu bitandukanye, amasafuriya batekamo, amabase bogeramo, amarido bamanika mu nzu, ibikombe bitandukanye, amacupa yo gutwaramo amazi, ibikapu batwaramo ibintu, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, aho ibicuruzwa biza kugurwa n'abantu maze bagatanga amafaranga ba nyirabyo bakunguka.

Inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho bacururizamo ibintu bitandukanye, aho inyubako ziri ku muhanda, aho abaturage baza kugurira ibyo bakeneye, maze ba nyir'ugucuruza nabo bakabona amafaranga bigatuma basubira kurangura, kandi bakabona n'inyungu ituma biteza imbere, bakanaguramo ibindi bintu bakeneye.

Inyubako irimo icururizwamo ibintu bitandukanye. Inyubako zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho bacururizamo ibintu bitandukanye: Ibyo kurya n'iby'abantu bakenera bubaka, amagaze bakoresha bari guteka. Ni byiza gucuruza muri izi nyubako, zibafitiye akamaro kubera ko abaturage bajya bazaguramo ibyo bakeneye maze bigatuma babibonera hafi batavu...

Iyi nyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho harimo ibicuruzwa bitandukanye: amavuta, ubujerekani bw'amasabune, amasabune atandukanye, amavuta y'ubwoko bwose, amasorori, ibikoresho by'amakaramu n'amakayi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, aho harimo inkweto za bodaboda, ibitambaro n'udupira two kwambara.

Inyubako icururizwamo inzoga zitandukanye, ikaba inyubako ikozwe mu makaro y'umweru, isize amarangi, imbere y'inyubako hari amapave, ameze neza, inyubako ifite inzugi z'ibirahure, kandi iruzuye ikorerwamo ubucuruzi.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho ricururizwamo imyenda itandukanye, y'abana aho hacururizwamo imisego yo kurararaho, aho hacururizwamo amashuka yo kwiyorosa, ibirangiti byo kwiyorosa, n'indi myenda amapantaro y'abagabo, n'amakabutura y'abagabo, n'imipira y'abantu bakuru, aho bifasha abaturage kubigurira hafi, bakishyura amafaranga maze na ba nyirabyo, bakabona inyungu bakabaho neza.

Icyapa kiranga iduka ricururizwamo ibinyobwa bya Amusiteri, aho hakatira abantu baje kugura ibinyobwa bitandukanye byo kunywa, aho hafite umuryango, umuhanda mwiza ukoze neza, aho ari iduka ryiza kandi rituje, aho ababigana batanga amafaranga na bo bagahabwa serivise kandi anabagirira akamaro mu buzima bwabo baba.

Inzu icuruzwamo ibintu bitandukanye, hacururizwamo ibintu bitandukanye: Amasabune, amavuta, n'ibindi bikoresho bitandukanye, aho ifite umuryango munini w'inzugi ebyiri zirebana zikaba zikingurwa, aho bacururizamo n'itumanaho, bagatanga amayinite, bakabitsa, bakanabikura amafaranga, maze abaturage bakabona serivisi hafi yabo, kandi na ba nyiri ugucuruza bakabona inyungu bagasubira kurangura.

Inyubako zicuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye aho zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, inzoga zo kunywa, sima, amagaze n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, aho ziba zifite abakiriya bazigana kugira ngo babashe kubasigira amafaranga, bityo bunguke kandi babone amafaranga yo kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi basubira no kujya kurangura ibindi.

Mu iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho ripakururwa amakamyo arimo ibicuruzwa bitandukanye biyashyira mu iduka kugira ngo iduka ricuruze, maze babone amafaranga menshi yo kwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye , aho bacuruzaga ibintu bitandukanye aho imodoka y'ikamyo iza igapakurura ibintu bitandukanye bityo bagakira.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bitandukanye, n'ibindi bintu bitandukanye ,aho harimo: za ji zitandukanye ziri mu bucupa, isukari , ifu ya kawunga n'ibindi bintu bitandukanye, n'abantu bakeneye maze abacuruzi babicuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha, bagasubira kurangurara mu buzima.

Amaduka acururizwamo ibicuruzwa bitandukanye aho harimo firigo irimo ibinyobwa bitandukanye, harimo indobo irimo amandazi, aho harimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ba nyirabyo barabicuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kubaho neza kandi basagure n'amafaranga yo kuzana muri banki bityo babakire.

Inzu irimo ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti y'amatungo. Iyi ni inzu igaragaramo imiti itandukanye y'inka zacu dukoresha turi gukingira inka zacu. Iyi ni inzu irimo ibikoresho bitandukanye bitondetsemo iyo miti nka etajeri.

Inyubako y'imiryango itatu itandukanye ikorerwamo ubucurukuzi kandi iri ku muhanda, imbere y'inyubako hakaba hagaragaraho amabuye y'amakoro, hakaba hariho abantu bicaye bategereje, kandi bakaba bakeneye serivise zibera muri iyi nyubako, ni byiza inyubako ikaba igizwe n'amakaro n'amarangi.

Inyubako abantu basengeramo ,aho abakorari n'abandi bakiristu batandukanye baza bagasenga ,maze korali bambaye iniforume, bagafata indirimbo bakaririmba, bityo bagahimbaza Imana bikabafasha gusenga no kwitagatifuza mu buzima bwabo bwa buri munsi ,kandi bikabafasha no kubaho neza ,kubera ko baba basenga Imana .

Inyubako ikorerwamo bake ibitsa ni ibikura ry'amafaranga, aho ikorerwamo abantu ifite abakiriya bayigana, baza kubitsamo amafaranga yabo, bakaza no kubikuramo amafaranga yabo, aho itanga inguzanyo maze igaha abaturage, bakajya kwiteza imbere bakora ibikorwa bitandukanye bibabyarira inyungu, bityo bituma babaho neza mu buzima bwabo.

Iyi ni inyubako igeretse ikaba ikikijwe n'ibimera bitandukanye, aho abantu bagiye kuyisana bafite urwego ikaba ifite aho baparika imodoka, hakaba hari abantu bane bahagaze imbere y'iy'inyubako, ni nziza cyane kandi ifasha ba nyirayo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako ikikijwe n'ibyatsi n'ibiti, inyubako ikozwe mu birarahure ikaba ifite insinga ziyobora umuriro mu nyubako, inyubako iri mu mujyi kandi ikaba iri ku muhanda, inyubako ifite igipangu cy'amatafari, ikaba isize amarangi y'amabara atandukanye, ikaba ifite n'ibiti birebire.

Inyubako ya hoteri yakirirwamo abantu batandukanye, aho iba ifite amacumbi yo gucumbikira abantu. Aho yakira ibirori bitandukanye kandi ikakira abantu b'ingeri zose, baba abavuye mu gihugu hagati cyangwa no hanze yacyo, maze ikabafasha no kubaha ibyo bakeneye, kuko iba ifitemo imbere ibintu byinshi cyane byo bakeneye.

Icyapa kigaragaza hoteli, aho kigaragaza cyereka abantu bajya muri iyo hoteli bagomba kunyura, iyo bageze kuri icyo cyapa bamenya ko bageze kuri hoteli, hoteli ibafasha kubacumbikira, ikabafasha no gukora inama zitandukanye n'ibindi birori bitandukanye maze bityo ba Nyiri hoteli bakabona amafaranga yo kuguramo ibindi bintu.

Mu busitani bw'inyubako ya hoteli, aho ari ubusitani bwiza cyane, bugizwe n'ibyatsi aho birimo ibimera bitandukanye, bifasha abakiriya bahicaye kujyana amahumbezi, aho buri hoteli ifite ubusitani bunini bwakenerwaga n'abantu, bugakorerwamo n'ibirori bitandukanye, baba rufite n'umwanya mwiza wo kwifotorezamo ku bantu babishaka.

Isoko ricuzwamo imbuto zitandukanye n'ibiribwa bitandukanye . Imboga n'ibindi bintu bitandukanye, aho harimo ibihaza, harimo imboga zitandukanye, ibirayi , urusenda, n'ibindi bintu byinshi abaturage bakeneye . Aho abantu baza ku bigura, bagasiga amafaranga , maze abacuruzi bakunguka , bagasubira kurangura . Bityo, ababiguze bakabona aho bahahira ibintu byoroshye , kandi, bakeneye.

Isoko ricururizwamo imboga zitandukanye harimo: imiteja, karoti ,inyanya, puwavuro, indimu, ibitunguru aho biteretse mu bikoresho bitandukanye, mu mabase, mu dutanda twabugenewe kugira ngo abantu baze babigure, maze bajye guteka bitume bagira ubuzima.

Umusaruro w'imyumbati warabonetse aho wajyanwe mu isoko kugira ngo ugurishwe ba nyirawo babonemo amafaranga yo kwifashisha. Imyumbati ni myiza itera imbaraga ,yajyanwe mu isoko kugira ngo hakurwemo ibindi bintu ibyo ba nyirabyo bakeneye, umusaruro w'imyumbati wabonetse umeze neza uri mu isoko kugira ngo ugurishwe.

Ku isoko rigurishizwamo ibikoresho bitandukanye : aho hagurishijwemo intebe, ameza byabajijwe mu biti kandi byakozwe n'amaboko y'umuntu. Aho babigurisha maze abahe kubigura bakabicyura mu rugo bakajya kubikoresha iwabo mu rugo. N'ababikoze bikabaha amafaranga bakayaguramo ibindi bintu bitandukanye bakeneye mu buzima bwabo. Bityo bikabongerera gutera imbere mu buzima bwabo.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, aho ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho harimo: amasahani, ibikombe, amasorori yo kubikamo ibiryo, ibikombe bakoresha banywa ibikoma, amasahani yo kuriraho, imikeka, amasafuriya yo batekamo n'ibindi bikoresho bitandukanye, rikaba ririmo n'abaguzi baje kubigura.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho riba ririmo abacuruzi n'abaguzi, aho baza kugura ibintu bitandukanye, aho harimo intoryi, hakabamo inyanya, beterave, ibitunguru n'ibindi bintu bitandukanye, abantu baba bakeneye mu buzima bwa buri munsi. Aho bibafasha kurya indyo yuzuye, maze bakagira ubuzima bwiza, maze n'ababicuruza bakabaho neza, kandi bakabona amafaranga yo kwi...

Isoko ritandukanye ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye . Harimo imbabura ,hakabamo ibiseke bitandukanye bidufasha mu kubika imyaka, hakabamo amabase , hakabamo n'ibindi bintu byinshi ,aho ba nyirabyo baza kubicuruza kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa....

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hacururizwamo imyenda, aho hacururizwamo ibikoresho byo mu rugo n'ibindi bikoresho byo mu buzima bwa buri munsi dukenera, aho bacaginga amaterefoni, aho bakorera ibikoresho by'ikoranabuhanga byagize ikibazo, rikaba ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho hacururizwamo ibiribwa bitandukanye ifu y'ubunyobwa, aho abaguzi baza kugura ifu kugira ngo bajye guteka iwabo, maze barye indyo yuzuye maze n'umucuruzi nawe akabona amafaranga yo kwifashisha aguramo ibintu bitandukanye, agasubira kurangura maze akabona n'amafaranga yo kwizigamira akazamufasha mu gihe azaba yagize ikibazo.

Isoko ricururizwamo inkweto zitandukanye, aho bacururizamo inkweto zifunguye z'abagore. Aho ari nyinshi zitandukanye aho baza kuzigura abaguzi bakaza bafite amafaranga yo guha abazicuruza make. Abazicuruza bakunguka n'abarikuzigura bakabona inkweto zo kwambara, bityo abagurishije bakabona inyungu bagasubira kurangura izindi.

Isoko ritandukanye ricururizwamo ibintu bitandukanye ba hacururizwamo imyenda , imifuka aho hatangirwamo itumanaho bakanga amahinka babitsa bakanambikura, aho bagurisha imyenda, ibikoresho, amasafuri batekamo, indobo batwararamo amazi, umuceri, isukari, ifu y'igikoma n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, imyenda yo kwambara n'ibindi bintu byinshi.

Ubworozi bw'inkoko buhabwa abaturage， inkoko zarakuze zamaze gutanga umusaruro wo kuba zavamo ibindi bintu， abaturage baje kugura inkoko，kugira ngo zijye zitera amagi， babone uko bagaburira abana indyo yuzuye，bafata ibikomoka ku matungo bya buri funguro.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Rikaba ririmo abaguzi n'abacuruzi benshi. Kandi bari gucuruza ibintu bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho ryubatse rikaba rifite inyubako isakaye icururizwamo ibiribwa bitandukanye, aho no hanze hacururizwa ibindi bintu bitandukanye, kandi rikaba rihuriramo n'abantu benshi, aho bahagaze bari kubaza ibyo baje kugura, abandi bagurisha ibyo baje gucuruza...

Isosko ricuruzwamo amandazi, aho amandazi yakozwe neza maze bakayazana ku isoko kugira ngo abantu bayagure maze bayarye bagire ubuzima bwiza, n'imbaraga zibafasha gukora akazi ka buri munsi, aho aba bayakoze babunguka, bamara ba kunguka bakabona amafaranga yo kwifashisha bakongera bakarangura ayadi mandazi bakongera bagakora n'ayandi bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Isoko ritandukanye ricururizwamo ibintu bitandukanye aho hacururizwamo imbuto zitandukanye, amagi, aho harimo amaronji, wotameloni, aho harimo n'ibindi n'izindi mbuto zitandukanye maze abaguzi bakaza kugura abacuruzi bakabagurisha neza, kandi abaguzi bakishyura amafaranga bityo bakajya kubirya bakabaho neza n'abacuruzi bakunguka bakabona amafaranga yo kwifashisha.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho hacururizwamo ibintu bitandukanye, abaguzi bakeneye aho hazamo abaguzi n'abacuruzi, n'abacuruzi maze abaguzi bakagura ibintu bashaka: imboga ,amagi maze bakishyura amafaranga, abacuruzi bakabona inyungu bagasubira kurangura ibindi bintu abaturage bakeneye, maze n'abaturage bakabona aho bahahira ibintu biboroheye ,kandi vuba bigatuma babaho neza.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho hacururizwamo ibikombe bifasha abantu mu kunywa amazi, aho amajagi afasha abantu kunywa ibinyobwa bitandukanye, amasahani afasha abantu kuriraho ibiryo, imihoro yo gukoresha mu buhinzi, amasuka n'ibitiyo byo gukoresha mu buhinzi n'ubwubatsi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, imigozi ikoreshwa mu bwubatsi n'ibindi bicuruzwa byinshi bitandukanye.

Inyubako y'ubucuruzi icurururizwamo ibiribwa bitandukanye. Umusaruro ubonetse tuwujyana mu isoko kugira ngo havemo ibindi bintu dukeneye. Ibicuruzwa biri muri iyi nyubako yacu biratandukanye, byazanywe n'abantu batandukanye. Ni byiza ko duhahira mu isoko kugira ngo tugire ubuzima bwiza butandukanye.

Isoko ricururizwamo imyenda itandukanye n'ibikorwa bitandukanye, aho ririmo abaguzi n'abacuruzi aho bacuruza imyenda zitandukanye izo myenda y'abagore abasutiya n'amakariso, aho babyambara imbere mu yindi myenda. Harimo abantu baje kugura iyo myenda kugira ngo abari gucuruza babashe kunguka babone amafaranga yo kwifashisha.

Inyubako iriho imbuga，iriho ibyuma bimanitseho umunzani wo gupima imyanda y'ibijegeri， iba yavuye ku macupa atandukanye. Umunzani udufasha gupima ibiro bitandukanye, n'ibintu bitandukanye. Umunzani umanitse ku cyuma kiri imbere y'inyubako ebyiri.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho ricururizwamo ibintu bitandukanye amashuka, inkweto, imyenda, amapantaro n'ibindi byinshi bitandukanye aho ririmo abaguzi batandukanye baje kugura ibyo bintu bicururizwa mu isoko, bityo bagatanga amafaranga maze ba nyirugucuruza, bakabona inyungu ibafasha kubaho neza.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho harimo indagara, amafi n'ibindi bintu bitandukanye. Aho abaguzi baza kubigura bityo bakajya kubiteka iwabo. Bityo bakabirya bakagira ubuzima bwiza. Maze n'ababicuruza nabo bakunguka bagasubira kurangura bakabona n'amafaranga yo kubika. Kandi bakizigamira kugira ngo bazabashe kugura ibintu bazaba bakeneye. Kandi bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho hacururizwamo imboga zitandukanye n'ibindi bintu, rikaba ririmo abacuruzi n'abaguzi bo kugura ibyo bicuruzwa, aho ricururizwamo ibitunguru, pavuro, imboga zitandukanye, ibihaza, ibitunguru bitandukanye, amashu, ibijumba n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, ricururizwamo imbuto zitandukanye, n'ibindi bintu bitandukanye harimo: imineke, amapapayi, avoka, aho harimo n'ibindi bintu bitandukanye. Hazamo abaguzi baje kugura ibyo bakeneye maze bakishyura amafaranga bakayaha abacuruzi, abacuruzi nabo bakabona inyungu yo kugura ibintu bakeneye, bagasubira kurangura maze bagasagura n'amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho riba ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi, aho ricuruza ibintu bitandukanye abantu bakeneye, aho harimo amasabune, amavuta, ibirungo byo guteka, kawunga, umuceri, amavuta, isukari, indagara n'ibindi bintu bitandukanye, aho ba nyirabyo babicuruza, maze bakabona inyungu y'amafaranga yo kwifashisha, n'ababiguze bakarya neza, indyo yuzuye.

Abagenzi bamanuka mu nzu y'ubucuruzi igeretse, baramanuka mu nzu y'ubucuruzi abandi bazamuka. Urujya n'uruza rw'abantu bajya mu isoko kugura ibintu bitandukanye, baramanuka abandi bakazamuka, bameze neza. Ni byiza ko dukoresha inzu z'ubucuruzi kandi tugendana ubwitonzi.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye rikaba ririmo abari kugurisha n'abaguzi, aho abaguzi baba baje gushaka ibintu bitandukanye bakeneye mu buzima bwa buri munsi maze bakabigura bakishyura amafaranga, aho abacuruzi babaha ibintu bakakira amafaranga maze bakajya kubyifashisha baguramo ibindi bintu bakeneye, aho harimo abantu baba bazanye imizigo ku magare bityo bigatuma....

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye aho ricururizwamo imbuto zitandukanye, imineke, n'ibindi bintu abantu bacuruza, maze abaguzi bakaza kubigura, bityo bigatuma babasha kubona ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, na banyirabyo bakunguka bikabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bakabona n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ,aho harimo amasabune yo gukaraba, amavuta yo kwisiga, amafi atandukanye, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bigurishwa gusa.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho ririmo abacuruzi n'abaguzi baje kugura ibyo bakeneye, aho harimo ibintu bitandukanye, aho harimo imboga, imiteja, ibitunguru, inyanya, ibirayi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, bityo maze abaguzi bagatanga amafaranga, abacuruzi bakunguka bikabafasha gusubira kurangura, ibindi bicururizwa bakeneye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kumurikira abantu, aho biteretse aho byabugenewe mu nzu y'ubucuruzi babicururizamo, aya ni amatoroshi abantu bifashisha bari kumurika iyo bwije maze akabongerera urumuri aho batabona, bigatuma ubuzima bwabo bwa buri munsi bugenda neza. Bajya kuyagura mu maduka, maze ba nyirayo bakabona.....

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho harimo ibishyimbo, ibigori, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, aho abaguzi baza kugura bagatanga amafaranga maze abacuruzi bakunguka, bityo bakabona amafaranga yo kujya kuranguza ibindi, maze bakabigeza ku baturage neza kandi ku gihe, bityo n'abaturage bakoroherwa, bakabasha kubona aho bagura ibyo bakeneye.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye aho ricururizwamo itumanaho bagatanga amayinite bakabitsa amafaranga bakanabikura. Aho hacururizwamo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, aho hazamo abakiriya maze bakaza gushakamo ibintu bakeneye bityo bakishyura amafaranga abacuruzi bakabona inyungu bagasubira kurangura kandi bagasagura n'amafaranga yo kubika bakizigamira mu buzima bwabo bwa buri munsi.